Imwe mu mbangukiragutabara cyangwa se imodoka izwi mu gufasha kugeza ku bitaro uwagize ibyago cyangwa se ukeneye ubufasha bundi, iba irimo umushoferi ndetse n'abaganga bashobora kugenda bamuha ubuvunzi bw'ibanze mu gihe ataragera ku kigo nderabuzima.

Aba bana bato b'incuke bahuriye hamwe bafata ifoto na bamwe mu babarera ndetse n'abayobozi babasuye, iri rikaba rigaragara nk'aho ari irerero aho ababyeyi basiga abana babo mu gihe bagiye mu mirimo itandukanye kugira bitabweho, kandi bahabwe indyo yuzuye.

Ifarumasi icuruza imiti y'ubwoko bugiye butandukanye aho ushobora kuza ukaba wagura imwe muri yo bitewe n'indwara urwaye mu gihe utabashije kugera ku kigo nderabuzima cyangwa se kwa muganga ugana hano naho haba hari abaganga babyigiye bacuruza ino miti ukaba wamutekerereza uko urwaye akagufasha.